Abarwayi bari mu ivuriro, hari umwana uryamye ku gitanda uri gufashwa na muganga, ndetse n'umubyeyi we, muganga ari kumupfuka.

Umuganga uri gupima umwana, agira ngo yumve uko umutima utera akoresheje agakoresho kabigenewe. Uwo mwana yaherekejwe na mama we bigaragara ko bari mu ishuri, kuko inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara.

Itsinda ry'abantu baje kwa muganga muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi zitandukanye, imbere yabo hicaye umuganga umwe wambaye impuzankano zifite ibara risa icyatsi.

Ababyeyi batandukanye bajyanye abana bakiri batoya kwa muganga, hari umukozi wambaye impuzankano ifite ibara ry'ubururu, hari umunzani ukoreshwa mu gupima ibiro umwana afite.

Umuzungukazi utanga imbwirwaruhame yifashishije indangururamajwi isa umukara. Ku kuboko ku iburyo yambaye isaha, ukundi kuboko yambaye agakomo, yifashe mu gatuza.

Ibikorwa by'ubuvuzi mu gace runaka, umugore wambaye umupira utukura ari guha umuti umwana awunyujije mu kanwa. Abandi bicaye aho barategereje bamwe bambaye agapfukamunwa.

Itsinda ry'abantutu bicaye hamwe kumeza, umwe n'umugabo abandi ni abagore, umwe muri bo afite indangururamajwi ari gutanga imbwirwaruhame ku ngingo runaka.

Umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, mu kuboko kwe ku iburyo afite telefone, na ho mu kuboko kwe kw'ibumoso afite agapimo kerekana umuriro, ari gukereka undi mugore ukikiye umwana.

Umugabo w'umwirabura watawe muri yombi yambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara, ari guhabwa amafoto ane, akikijwe n'uruhuri rw'abantu.

Umugabo wambaye agapira gafite ibara risa umukara, afite ubwanwa bwinshi ndetse yasetse amenyo ye arasa neza.

Itsinda ry'abakecuru bari kubyina bishimye batonze umurongo, abenshi muri bo bambaye umupira w'umweru ndetse n'ijipo y'umukara, bari kubyina bagana ahantu hamwe.

Itsinda ry'abagabo n'abagore bishimye bamwe bazamuye amaboko abandi bazamuye amasuka, bahagaze mu murima uhinzemo ibihingwa byiganjemo amasaka n'ibindi.

Umuganga w'igitsina gore uri gupima umuvuduko w'amaraso umukambwe umwicaye iruhande wambaye ishati y'ikigina, ari gukoresha agakoresho kabugenewe.

Icyapa kigizwe n'amabara y'ubururu n'umweru, kiriho ishusho kandi igaragaza ibice bigize umutwe w'umuntu imbere, kiriho n'amatariki, cyirerekana amarushanwa azabera mu Rwanda.

Itsinda ry'abaganga bari mu gikorwa cyo kubaga umurwayi, bambaye impuzankano zifite ibara ry'icyatsi, bafite ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubaga.

Abantu babiri barimo umwiraburakazi wambaye ikanzu n'inkweto ndende z'umukara, ndetse n'umuzungu w'umugabo wambaye ipantaro, ikote n'inkweto by'umukara.

Itsinda ry'abaganga bari kumwe bateraniye mu gikorwa cyo kubaga umurwayi. Bambaye imyenda yabugenewe ifite ibara risa ubururu ndetse n'udukoresho twabugenewe muri icyo gikorwa.

Umuganga w'igitsina gabo wambaye umwenda w'akazi, wicaye mu cyumba cy'isuzumiro. Yamwenyuye, yambaye isaha ku kuboko n'ikaramu mu mufuka.

Inzu yab'ababyeyi yubatse mu buryo bw'amagorofa, ifite amadirishya asa umweru, imbere yayo hahagaze abaforomokazi bane bose bambaye impuzankano ndetse n'udupfukamunwa.

Inzu y'ababyeyi yubakishijwe amatafari ahiye, ifite igisenge cy'ubururu, ikaba ifite amadirishya abiri asa umweru, ndetse n'urugi rusa umweru, imbere yayo hari indabyo.

Umugabo wicaye imbere y'igiti wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, inyuma y'igiti hari amazu ndetse hagaragara n'ikirere bigaragara ko ari ku manywa.

Icyumba cy'ibitaro kirimo ibikoresho by'ubuvuzi, kigaragaramo igitanda cyateguwe neza, kikagaragaramo imashini ndetse na mudasobwa.

Ku manywa inyubako y'ikigon nderabuzima cya Shagasha irafunguye, ifite inzugi n'amadirishya bisa umukara, ababyeyi n'abana bicaye ku rubaraza.

Ingobyi bashyiraho umurwayi igihe yakomerekeye mu kibuga cyangwa mu myitozo ngororamubiri, ikoreshwa mu gihe atabasha kugenda, ifite amabara y'umuhondo, ikagira imikandara y'umukara.

Ibikoresho n'ibiribwa bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri harimo amazi, imbuto, umutobe, inyama ndetse na metero.

Agakoresho ko kwa muganga gafite ibara ry'umweru n'ibindi bice bikeya bisa umukara, gafite amapine atatu bigaragara ko gashobora kuvanwa ahantu hamwe kajyanwa ahandi.

Ibikoresho bikoreshwa muri siporo bigizwe n'inkweto zabugenewe zifite amabara y'umukara n'umweru, umugozi wo gusimbuka ugizwe n'amabara y'umuhondo n'umukara, igikoresho cyabugenewe cyo gupima uko umutima utera hakiyongeraho n'amafunguro.

Uburyo ikoranabuhanga ryifashishwa mu kwita ku buzima bw'abarwayi kwa muganga, umugore uri kwitaba telefone imbere ye hari mudasobwa, udukoresho dutandukanye twifashishwa kwa muganga, harimo agakoresho kabugenewe kifashishwa hapimwa umuvuduko w'amaraso.

Igikapu gito kandi gitwarika, kigizwe n'amabara y'umutuku n'umukara, cyuzuye imiti y'amoko atandukanye harimo isukika ndetse n'idasukika.

Ibikoresho byo kwa muganga harimo umukasi, ibikwasi n'ibindi hakiyongeraho agasanduku gatukura gatwarika gashobora kujyamo ibikoresho byo gutabara umuntu hakiri kare.

Isoko ryuzuye uruhuri rw'abantu b'ingeri zose, abagabo, abagore n'abana, baje guhaha ibicuruzwa bitandukanye, harimo amafunguro ndetse n'imiti igiye itandukanye.

Imiti ikoreshwa muvuzi gakondo. Igizwe n'amabara atandukanye harimo umuhondo umutuku icyatsi n'ayandi kuruhande kandi hari imiti ipakiye kumurongo.

Agapfunyika gafite ibara ry'umuhondo karimo imiti ya kinyarwanda, ifite ibara ry'umutuku n'umukara, gapima amagarama ijana.